Ni icyumba cyo kwa muganga kikaba kirimo ibitanda hakaba harimo n'imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ibi bikaba bifasha abarwayi kuba ahantu hameze neza kandi hatashira ubuzima bwabo mu kaga.

Ni ibitanda byo kwa muganga, bikaba bishashe neza, ibi bitanda bikaba byifashishwa n'abarwayi barembye, bikaba bibafasha kuba baharuhukira mu gihe bategereje ababafasha kubavura.

Ni abantu, bambaye imyenda isa n'umutuku, bakaba iruhande rwabo hari umuntu uryamye, bakaba bafite ingobyi yifashishwa mu gutwara, umuntu ugize ikibazo cy'uburwayi, ibi bikaba bibafasha kuba batanga ubutabazi bwibanze ku murwayi.

Ni abaganga, bakaba bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga igihe bari kuvura, iruhande rwabo hakaba hari ibitanda biryamyeho abantu, hakaba harimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi umunsi ku munsi.

Ni amakarito arambitswe mu cyumba. Hakaba arimo imiti yifashishwa n'abaganga mu kwita ku barwayi. Ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona imiti mu buryo bworoshye.

Ni icyumba. Kikaba kirimo abantu baryamye. Hakaba harimo abaganga bari kubitaho. Ibi bikaba bifasha abarwayi kuba babona ahantu baba mu bwisanzure ndetse bakabona n'abagangada babafasha.

Ni ikibumba kikaba kirimo abaganga bambaye imyenda yabugenewe, hakaba harimo urimo kwambika ku rupapuro, iruhande rwabo haba hari umurwayi uryamye ku gipangu ubu bikaba bifasha mu gutanga ubuvumaze ze.

Ni umugore uhagaze imbere, akaba arimo kwigisha abandi bantu bicaye mu ntebe zisa n'umukara, bakaba barimo kwiga ku munsi wahariwe abafite uburwayi bwo mu mutwe.

Ni abaganga hakaba harimo abambaye imyenda y'umweru yabugenewe, abandi bakaba bambaye amajire asa n'umutuku, bakaba bari mu gikorwa cyo gukingira indwara zitandukanye.

Ni icyumba, kikaba kirimo umuganga wambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye, imbere ye hakaba hari abarwayi, akaba ari mu gikorwa cyo gufata ibizamini umurwayi, ibi bikaba bimufasha kuba yavura uburwayi ku buryo bumworoheye.

Ni abaganga, bambaye imyenda yabugenewe, bakaba barimo gupima bakoresheje urushinge, ibi bikaba bibafasha kumenya ubwoko bw'umuti ndetse n'indwara baba bagiye kuvura.

Ni abagabo n'abagore bahagaze, inyuma yabo hakaba hari imodoka yifashishwa mu gutwara abarwayi ibakura ku bitaro bimwe ibajyana ku bindi, inyuma yabo hakaba hari amashyamba, ibi bikaba bifasha abarwayi kubona ubuvuzi bunoze.

Ni umugore w'umukozi ukora kwa muganga, akaba ari mu cyumba byifashishwa n'abaganga mu gusuzuma indwara zigiye zitandukanye, ibi bikaba bibafasha mu kuvura abarwayi baba baje babagana.

Ni abantu hakaba harimo abana abagore n'abagabo, bakaba barimo gukina imikino y'amaboko, hirya hakaba hari inyubako yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zifata abantu mu ngeri zose.

Ni umubyeyi uryamye iruhande rwe hakaba hari umwana w'uruhinja bakaba baryamye mu cyumba kwa muganga, ibi bikaba bibafasha mu kubona ubuvuzi bubanogeye.

Ni abaganga n'abandi bakozi b'urwego rw'ubuzima; bakaba bari mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi mu giihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane.

Ni abaganga bicaye mu cyumba, imbere yabo hakaba hari umurwayi waje abagana, hakaba harimo uri kwandika ndetse undi uri gupima, ibi bikaba bifasha umurwayi kubona ubuvuzi bunoze buri gihe.

Ni abaganga bari mu cyumba hakaba harimo ibitanda biryamyeho abantu, bakaba harimo abari gusoma mu makayi, ibi bikaba birimo gufasha umurwayi kuba bamwitaho no kumuvura mu buryo bworoshye.

Ni abagabo n'abagore bakaba bicaye ku murongo, imbere yabo hakaba hari umuganga wambaye imyenda yabugenewe. Akaba arimo kubafasha, hakaba harimo abafashe ibipapuro. Ibi bikaba bibafasha kuba bagira ubuzima bwiza ndetse no kubavura indwara zigiye zitandukanye.

Ni abaganga bambaye imyenda yabugenewe, hakaba harimo abambaye imyenda isa icyatsi, ubururu n'ubururu bwijimye, imbere yabo hakaba hari ibitanda aho abarwayi baje babagana, ibi bikaba bifasha abarwayi kuba ba kwitabwaho mu buryo bunoze.

Ni abagabo, bafashe urupapuro, inyuma yabo hakaba hari imodoka itwara abarwayi kwa muganga, kakaba bahagaze mu mbuga y'amabuye, inyuma yabo hakaba hari amashyamba ya kimeza, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvu bwoshye.

Ni umurwayi akaba aryamye ku gitanda, iruhande rwe hakaba hari umuganga wambaye imyenda yabugenewe akaba afite n'ibikoresho byifashishwa mu kwita ku barwayi igihe barebye.

Ni umuganga wambaye imyenda yabugenewe, yifashishwa n'abaganga igihe bagiye gupima indwara, imbere ye hakaba hari igikoresho cyifashishwa n'abaganga mu kureba indwara.

Ni icyumba kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu gupima no kuvura indwara zigiye zitandukanye, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bunoze.

Ni umuganga wambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye. Akaba ari mu cyumba kirimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara. Ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bunoze.

Ni icyumba kikaba kirimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye. Hakaba harimo abaganga bambaye imyenda yabugenewe ibafasha mu kwita ku barwayi baje babagana. Ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bunoze.

Ni ibiganza by'umuganga bikaba byambaye uturindantoki, iruhande rwabyo hakaba hari udukoresho twifashishwa n'abaganga mu gupima indwara zitandukanye, hakaba hari agapapuro kariho amaraso barimo gupima, kugira ngo barebe indwara zaba ziri mu maraso.

Ni umuganga akaba arimo gukoresha ibikoresho byifashishwa kwa muganga barimo gusuzuma indwara zigiye zitandukanye, ibi bikaba bifasha umurwayi kuba bamuvura mu buryo bunoze.

Ni icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu kuvura no gupima indwara zigiye zitandukanye, hakaba harimo umuganga wambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura no gupima indwara; ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi mu buryo bworoshye.

Ni abaganga bari mu cyumba kikaba kirimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga, mu gupima indwara z'igi zitandukanye, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi, bwiza kandi bunoze.

Ni umuganga akaba yambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga igihe bari kuvura, akaba ari mu cyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu gupima indwara zigiye zitandukanye. Ibi bikaba bifasha abarwayi mu guhabwa ubuvuzi bubanogeye.

Ni icyumba, kikaba kirimo ibikoresho bya kijyambere, byifashishwa n'abaganga mu gupima indwara z'igiye zitandukanye, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bworoshye ndetse bubanogeye.

Ni ikiganza cyambaye uturindantoki. Kikaba gifashe udukoresho twifashishwa n'abaganga mu gupima indwara zigiye bitandukanye. Ibi bikaba bifasha abaganga mu kumenya ubwoko bw'indwara ndetse no gufata icyemezo cy'imiti bagomba kwifashisha bari kuvura iyo ndwara.

Ni umugabo, akaba ahagararanye n'abana bari mu ishuri, imbere yabo hakaba hari ikibaho, hakaba hari abana bafashe ibikombe bari kunywa igikoma, ibi bikaba bifasha aba bana kubona ibibatunga birimo intungamubiri zihagije ndetse bakabona kwakira amasomo biga mu buryo bworoshye.

Ni icyumba kigari, kikaba kirimo abantu benshi bambaye imyenda y'ubururu ndetse abandi bambaye imyenda y'umukara, imbere yabo hakaba hari ibyuma birimo gusakaza amashusho, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwirinda indwara.

Ni umubyeyi wicaye mu cyumba ku gitanda. Akaba afashe umwana w'uruhinja. Akaba arimo kumwonsa. Ibi bikaba bifasha uyu mwana, kubona intungamubiri zikomoka ku mashereka bikaba bimurinda kuba yagwingira. Ndetse no kumurinda izindi ndwara zituruka ku mirire mibi .

N'ababyeyi n'abakangurambaga b'ubuzima, bari mu gikorwa cyo gupima uburebure bw'umwana, bifashishije uburyo bwo gukoresha urubaho.

Ni abagabo n'abagore bicaye mu busitani, bakaba bambaye imyenda y'abanyabuziama, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwirinda indwara ndetse no gutanga ubuvuzi bunoze ku barwayi.

Ni abagore baryamye mu cyumba cyo kwa muganga kiba gishinzwe kwita ku bagore babyaye, bakaba biyoroshe, biyoroshe ibiringiti bisa n'umutuku, ndetse hejuru ya hakaba hari supanete zibafasha kwirinda malariya.

Ni umugabo ufashe indangururamajwi. Iruhande rwe hakaba hari abaturage bicaye abandi bahagaze. Inyuma yabo hakaba hari amazu yifashishwa mu gucuruza. Bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kugira ubuzima muri iki gihe.

Ni abana bahagaze ku ruziga. Bakaba bambaye imyenda y'ubururu n'umukara. Inyuma yaho hakaba hari umubyeyi ndetse inyuma yabo hakaba hari ibitoki byinshi. Bakaba bazamuye amaboko. Ibi bikaba bifasha abana mu gusabana.

Ni abagabo n'abagore bakaba bafashe ku mugozi, inyuma yabo hakaba hari abashinzwe umutekano barimo abapolisi ndetse n'abandi, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwirinda indwara zifata abana bakiri batoya.

Ni abagore n'abagabo bahuriye ahantu hamwe, iruhande rwabo hakaba hari imodoka, bakaba barimo kwigishwa ku buryo bwo kwita ku bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe.

Ni abantu bahagaze hakaba harimo ufashe icyapa, hakaba hari undi ufashe indangururamajwi akaba arimo gusoma ku cyapa, bakaba bari muri gahunda yo kwiga ku buryo bwo gufata abantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Ni abagabo n'abagore bahuriye ahantu hamwe, hakaba harimo abicaye iruhande rwabo hakaba hari imodoka ndetse n'amashamba abakikije, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwirinda indwara zifata abantu mu mutwe.

Ni amakarito agerekeranye akabari mu cyumba hakaba arimo imiti yifashishwa n'abaganga bavura indwara zifata amatungo bikaba bifasha aborozi mu kwirinda kubagira ikibazo by'indwara zifata amatungo ndetse bikaba bifasha aborozi mukwirinda kuba bagira ibibazo k'indwara ku matungo no kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo.

Ni umugabo, akaba ahagaze imbere y'umugore urimo kwandika, ari gukora no mu mashini, akaba arimo gucuruza imiti igihe itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara ziba zafasha abantu.

Ni umugabo wambaye ishati y'umweru akaba ahagaze mu cyumba kirimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ibi bikaba bifasha abarwayi kuba babona ubuvuzi bubahendukiye kandi bunaboroheye.

Ni amashashi ari mu ibara ry'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu. Akaba arimo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara z'amatungo. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kugira amatungo azira umuze ndetse atanga n'umusaruro ku buryo buhagije.

Ni ububiko bw'imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye mu ngeri zose z'abantu. Ibi bikaba bifasha abantu kuba bakira indwara no kongera kugira ubuzima bwiza buzira izo ndwara.

Ni imiti y'ibinini iri mu mabara atandukanye ibara ry'umweru, umuhondo, umutuku ndetse n'andi bikaba byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye hashingiwe ku bimenyetso bya buri murwayi.

Ni umuhanda wa kaburimbo. Ukaba uri kunyurwaho n'abantu basunitse amagare iruhande rwawo ndetse hakaba hari inzu z'ubucuruzi ku ruhande rwawo. Ibi bikaba bifasha abagenzi kuva ahantu hamwe bajya ahandi mu buryo buboroheye.

Ni abagore bahagaze, bakaba bafashe ku mpamyabumenyi, inyuma yabo hakaba hari abandi bantu bicaye, bakaba barimo kuganira ku buryo bw'uko bagira ubuzima buzira umuze.

Ni abantu bicaye ahantu hamwe mu cyumba cy'inama, bakaba barimo gukoma amashyi, imbere yabo hakaba hari umugabo uhagaze urimo kubigisha, bakaba barimo kungurana ibitekerezo ku byabateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni abaturage bambaye imyenda isa n'umweru, bakaba bicaye munsi y'ihema, bakaba bitabiriye umunsi mukuru wahariwe ubuzima, ibi bikaba bibafasha kuba babona inama z'ukuntu bakwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Ni urubyiruko rw'abana b'abanyeshuri bahagaze ahantu hamwe, bakaba bambaye impundakano y'ishuri iri mu mabara y'umukara umweru n'ubururu, imbere yabo hakaba hari ibyapa byo kwamamaza.

Ni umugabo uhagaze, imbere ye hakaba hari abagabo n'abagore bicaye, inyuma ye hakaba hari abagore n'abagabo bicaye, inyuma yabo hakaba hari ibyapa birimo kubigisha imibereho myiza.

Ni abagabo bahagaze munsi y'ihema, hakaba harimo abambaye imipira y'ubururu ndetse n'umukara, hakaba harimo abashinzwe umutekano b'abapolisi, bakaba barimo kwiga ku mibereho myiza y'abaturage.

Ni abantu bicaye inyuma yabo hakaba hari abandi bahagaze, hagati yabo hakaba harimo icyapa gishishikariza abantu kwirinda malariya. Ibi bikaba bibafasha mu kugira ubumenyi bw'uburyo birinda malaria no kuba bagira ubuzima bumeze neza.

Ni abantu bicaye, hakaba harimo abafite imashini, imbere yabo hakaba hatetse amazi, imbere hakaba hari umugore uri kubigisha uburyo bwo bagira imibereho myiza.

Ni udufuka, tukaba turimo ibiti bigiye bitandukanye, ibi biti bikaba byifashishwa mu kuvamo imiti ivura indwara zitandukanye, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona umuti ku buryo buboroheye.

Ni ikiganza, kikaba gifashe igiti. Iki giti kikaba cyifashishwa mu gukora imiti gakondo, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kuba babona umuti mu buryoboroheye.

Ni ibiganza birambuye by'umuntu, bikaba bifite utuntu tw'uduheri ku ruhu. Ibi bikaba ari indwara zivurwa n'imiti gakondo ikomoka ku bimera.

Ni umuganga, wambaye imyenda yabugenewe, yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, imbere ye hakaba hari amakarito n'amacupa arimo imiti ya gakondo. Iyi ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni igiti cy'umubiri kikaba ari igiti cyifashishwa n'abantu mu gukora imiti yifashishwa mu kuvura abantu ndetse n'inyamaswa z'amatungo, ibi bikaba bifasha abantu mu kuba babona umuti ku buryo boroheye.

Ni abagabo, bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu gihe bari kuvura indwara zitandukanye, iruhande rwabo hakaba hari ibitanda byifashishwa n'abarwayi igihe baje barembye.

Ni umugore, uhagaze imbere y'umuganga, hakaba hariho ameza ariho ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu kuvura no gupima indwara zitandukanye, ibi bikaba bifasha umuturage mu kubona ubuvuzi bunoze.

Ni abagabo barimo gusohoka mu nzu, iruhande rwabo hakaba hicaye umugore uri konsa umwana, iyi nzu ikaba yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni abagabo n'abagore bakaba bafashe ibiryo mu ntoki, imbere yabo hakaba hari ibiryo biteretse ku meza inyuma yabo hakaba hari abagore bafashe abana, bakaba barimo kubagaburira. Ibi bikaba bifasha abana kubona indyo yuzuye ibafasha kugira ubuzima bwiza no kwirinda kuba bagwingira.

Ni abagabo n'abagore bicaye, hakaba harimo abafashe abana, imbere yabo hakaba hari igitambaro kirambuye ku meza, bakaba bagannye ikigo, inzu itangirwamo ubufasha bwo kuvura indwara zitandukanye.

Ni icyumba kirimo umugore w'umuganga, hakaba harimo abandi bagore babiri, akaba arimo kumufata amaraso, ibi bikaba bifasha umuganga kuba yamenya ikibazo cy'indwara muturage waje amugana aba afite.

Ni abagabo n'abagore bahagaze, inyuma yabo hakaba hari inzu yifashishwa n'abaganga mu kwakira abarwayi baje babagana, ibi bikaba bifasha abaturage mu kuba babona ubuvuzi ku buryo boroheye.